Ese wamara igihe kingana iki ukuramo inda? Ibyumweru cumi na bibiri, cyangwa biri munsi yabyo? Ibyumweru cumi na bitatu kugeza kuri makumyabiri, cyangwa birenga ibyumweru makumyabiri?

Inyubako ndende igaragara nkaho ari iyo kwa muganga, iruhande rwaho hari ibyapa bibiri, biriho amabwiriza y'ibikorerwa kwa muganga.

Abagabo n'abagore bicaye bigaragara nk'aho ari abategerereje kwa muganga, hari umugabo uhagaze imbere ndetse ababyeyi n'umugabo umwe baricaye, abandi bahagaze iruhande rw'urukuta.